Amazu y'ubucuruzi bacuruza matera, haparite moto ipakiye imashini ibeta isombe.

Isoko rikoze neza, ririmo abacuruzi bari gucuruza, barishimye, hameze neza, hari isuku.